Impombo z'umwuka bahumeka zimanitse mu cyumba, zicometse ku mashini ishinzwe kuzikoresha. Izo mpombo zifite ibara ry'ubururu.

Abana batoya bagiye kuvoma amazi ku iriba, umukobwa mukuru ari kubasunikira amazi, hirya yabo hari imodoka.

Abagore babiri bo muri Afurika bari gupompa amazi, undi umwe muri bo ari kumesa, yateretse ibasi ku iriba.

Umubyeyi yabumbuye akanwa ke, ari guseka arishimye. Ni igenzi cyane kwita ku buzima bwo mu mutwe .

Umubyeyi yabumbuye akanwa ke, ari guseka, amenyo ye ayagirira isuku, arishimye cyane, ni ingenzi kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Inyubako y'ikigo gishinzwe kwakira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kikabafasha kugira ubuzima bwiza no gukurikirana ababahohoteye.

Umugabo w'umusirikari ahagaze imbere y'inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri m'u Rwanda. Ni ingenzi cyane kwihutira kwipimisha igihe umuntu yagaragaje ibimenyetso bya kanseri.

umuganga ahagaze mu cyumba, ari gusuzuma neza niba imashini ziri muri icyo cyumba zose zikora ku buryo bwuzuye, kandi buboneye. Ni ingenzi cyane kwita ku bikoresho by'ubuzima.

Umurwayi yicaye imbere y'umuganga, muganga ari kumuhambira akaguru aho yakomeretse kugira ngo igikomere kibashe gukira neza. Ni ingenzi cyane kugana abaganga igihe twakomeretse.

Igihingwa kiratoshye, gifite amababi manini kandi magari, gifite ibara ry'icyatsi kibisi, kiri mu bwoko bw'umuravumba.